Icyumba gikorerwamo inama ndetse gifite ameza manini yambaye ibitambaro by'umukara, giteraniyemo abagabo bo ndetse n'abagore b'ingeri zitandukanye basaga nk'umubare w'abantu nka mirongo itanu, bafite amacupa y'amazi yo kunywa imbere yabo.

Inzu itangirwamo serivisi z'irembo, igizwe n'ibara ry'umweru ndetse n'inzugi n'amadirishya y'ibara ry'umweru, harimo umukozi utanga serivisi z'irembo.

Iminara y'amashanyarazi ibiri itandukanye miremire cyane ifite n'insinga nyinshi ndetse ikaba ishinze ahantu hari ibiti byiza cyane harimo ibya avoka, harimo insina n'ibindi biti bitandukanye.

Ikibuga kiza kirimo ubusitani ndetse n'ibiti byiza, ikirere cyiza kirimo ibicu bisa neza, harimo umunara w'amashanyarazi utari muto kandi utari na munini cyane ariko ahantu habereye ijisho.

Inzu y'aho ababyeyi babyarira izwi nka materinete, haparitse imodoka itwara abarwayi, hatambuka abantu b'inzego zitandukanye, harimo abashinzwe ubuzima ndetse n'abihaye Imana, hari n'abandi bantu higanjemo abagore b'abarwaza cyangwa se abarwayi ndetse hakikijwe n'ibiti byiza by'imikindo.

Urukuta runini cyane rwubakishije amatafari y'uburu ndetse n'andi ahiye, ku matafari y'ubururu handikishije amagambo manini mu ibara ry'umweru yanditse ko ari ibitaro by'akarere ka Nyarugenge bikijwe n'indabyo nziza.

Igazeti y'u Rwanda yo ku kane ukwakira ibihumbi makumyabiri makumyabiri na gatatu igizwe n'umutwe wa mbere uvuga ku bwigenge bw'abanyarwanda mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko ku itegeko nshinga igizwe n'ibice byinshi bitandukanye.

Perezida Paul Kagame ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu yambaye umupira mwiza cyane w'ibara ry'umweru n'ingofero y'umutuku; akikijwe n'abaturage bishimiye ibyo yabagejejeho bafite amadarapo yanditseho FPR ndetse bazamuye amaboko.

Ikigo cy'ishuri gikikijwe n'ibiti byiza cyane birebire, hari icyumba cy'itora hakaba hari n'abantu baje gutora, barimo ingeri z'abantu batandukanye abagore abagabo, abasore n'inkumi bari mu kigero cy'abantu nka magana abiri baje gutora abakandida bahisemo.

Umukandida Filipo ahagaze imbere y'indangururamajwi yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu, akikijwe n'umugabo umundira umutekano wambaye amadarubindi, wambaye inkweto z'umukara hicaye abagore babiri, umwe bambaye amadarubindi n'undi wambaye ishati y'umweru ndetse hari n'ifoto imwamamaza.

Icyumba cy'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ndetse n'abasenateri bagizwe n'abagabo ndetse n'abagore bagera nko ku mubare wabantu makumyabiri na batanu cyangwa mirongo itatu aho bigaragara ko bari mu nama ifata imyanzuro .

Ihuriro ry'aho ibinyabiziga bitwara abagenzi bizwi nka bisi riri, ukomeje kureba ubona n'umunara w'amashanyarazi, ukabona ibinyabiziga bimwe bifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi benshi, ariko bifite amabara atandukanye.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Umuhanda wa kaburimbo usa neza, urimo abagenzi b'abanyamaguru, bari hagati y'abantu mirongo itatu na makumyabiri na batanu ndetse ugaragaza ikirere cyiza, kirimo imisozi yitaruye, hari icyapa cyerekana umuhanda ukomeza ujya Huye, Akanyaru ndetse n'undi ujya Nyamiyaga.

Umuhanda uriho icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bemerewe kunyura, ndetse hakaba hariho n'iminara y'amashanyarazi, ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi, hakaba hari n'inzu ikorerwamo serivisi z'irembo, hakaba haparitse abikorezi b'abantu aribo b'abamotari, hakaba hari n'abanyamaguru bari gutambuka, hari abajya gushaka serivisi z'irembo, ndetse n'abari kwambuka umuhanda.

Inzu y'igorofa rirerire yanditseho zikama, ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bikikijwe n'igiti kirekire kiza ndetse n'inzu iriho ibindi byapa byinshi bigaragaza ibikorwa bihakorerwa byinshi bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bari hagati y'abana batanu ndetse na barindwi bari mu kibuga kirimo ibikinisho byo kwicungaho, bari mu kigo cy'ishuri gikikijwe n'igipangu gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Umuhanda w'amabuye ufite isuku isukuye ikaba ukikijwe n'amazu harimo ifite nimero cumi n'imwe ndetse hakaba hari n'amapoto y'amashanyarazi abiri afite insinga nyinshi, hakaba hari ibiti byiza bikikije ayo mazu bigaragara ko ari ahantu hari ubuhumekero bwiza.

Umuhanda mwiza usukuye cyane wa kaburimbo, urimo imodoka izimanuka, izizamuka, ihuriro ry'imihanda aharimo ibiti byiza by'imikindo birebire, iminara y'amashanyarazi iri ku murongo, ikirere gisa neza, umusozi witaruye uriho imidugudu, ubonako isa neza,...

Umuhanda muremure cyane wa kaburimbo ukijwe n'ibiti byinshi birebire cyane birimo imikindo, hari icyapa cyanditseho ishuri bigaragara ko hari ishuri hafi aho ndetse n'abana b'abanyeshuri bambukira, harimo imodoka yegeranye n'ikinyabiziga aricyo moto gitwaye n'umugenzi hakaba hahagaze n'umupolisi ubigaragara y'uko yereka abagenda ndetse n'abambuka aho banyura.